Icapa kigaragaza ikigo cy'amashuri bigagamo, aho abanyeshuri bajaga gufata ubumenyi butandukanye.

Ikigo cy'amashuri ahatangirwa ubumenyi, ahahurirwa n'abantu benshi, aho baba baje gufata ubumenyi butandukanye, kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Inzu nziza cane ikundaga guhurirwamo n'abantu benshi cane, aho abana baba bagifata ubumenyi butandukanye cane kugira ngo bazagire imibereho myiza cane.

Ikigo c’amashuri, ikigo gihurirwagamo n’abantu benshi cane iyo baje gushaka ubumenyi butandukanye. Ubwo bumenyi bubafasha kwibeshaho.

Ndabona ahantu heza cyane, hateye neza cyane, hahurira abantu benshi barimo bafata ubumenyi, kugirango ngo babashe kwiteza imbere cyane no kwiga, ndetse no kumenya ibintu bitandukanye badasanzwe bazi.

Abasore n'abakobwa bahuriye hamwe barimo bakora imirimo y'ubutetsi. Aho ubwo butetsi budufashaga mu kwiteza imbere, ndetse no kubona ibyo turya.

Abanyeshuri bahuriye hamwe， aho barimo biga umurimo w'ubusudizi，aho uwo umurimo ukundaga kuduteza imbere， barimo biga kugira ngo bazabashe kugira imibereho myiza cane.

Abanyeshuri benshi cane bahuriye hamwe bakoresha mudasobwa, aho bari gufata ubumenyi butandukanye kugira ngo babashe kwiteza imbere ndetse no kuzihangira imirimo.

Aga mashusho akaba agaragaza aho abantu bakundaga guhurira, kugira ngo babone ubumenyi butandukanye kugira ngo babashe kwiteza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi.

Abakobwa benshi cane bahuriye hamwe aho dukundaga kubabona bakora imirimo yo gusuka ndetse n'imirimo yo kogosha kugira ngo babashe kwiteza imbere cane.

Abanyeshuri bahuriye hamwe, bafata ubumenyi butandukanye mu bukorikori, aho babafashaga kwiteza imbere, mu mibereho yabo ndetse no mu gihe bazaba bageze hanze.

Umunyeshuri urimo kwiga imirimo y'ubugeni，aho imirimo y'ubugeni ikundaga guteza abantu imbere，bakagira imibereho myiza cane.

Abanyeshuri bahuriye hamwe aho dukundaga kuja tugiye gushaka ubumenyi butandukanye, ubwo bumenyi bukadufasha mu mibereho yacu ndetse no kwiteza imbere.

Umugabo n'umugore bishimye cane bigaragara cane ko bari gufata amafoto bakoze ubukerarugendo, ubukerarugendo dukundaga kubukora mu majaruguru aho abantu baza gusura ibintu bitandukanye.

Abanyeshuri bagaragara，bari gutegura amafunguro atandukanye， aho baba bitegura kuzakora mu mahoteri，cane cane mu majaruguru aho dukundaga kugira amahoteri menshi cane， bitewe n'ubukerarugendo.

Abanyeshuri beza cane, aho bahuriye hamwe biga kugira ngo babashe kumenya ubumenyi butandukanye bazakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abanyeshuri benshi cane ahakundaga guhurira abantu benshi, kugira babashe kumenya ubumenyi butandukanye, buzabafasha kugira imibereho myiza cane mu buzima bwabo bwa buri munsi.